Umuhinzi wabigize umwuga urimo gutera umuti mu muceri, uwo muhinzi akaba bigaragara ko ahetse imashini itera umuti mu mugongo, akaba yambaye ingofero y'urubaraza ruzengurutse ndetse yambaye n'ishati y'imironko y'ubururu ndetse hakaba harimo n'umutuku mwinshi.

Umugabo uhetse imashini itera umuti mu myaka yica udusimba tugiye dutandukanye twangiza imyaka, iyo myaka bikaba bigaragara nk'imyaka itoshye cyane, iyo pombo ahetse cyangwa se iyo mashini ika isa ubururu hejuru hasi umuhondo.

Abagabo batatu bari gutera umuti umuceri, abo bagabo bakaba bambaye bose ingofero z'imbaraza bahetse imashini zitera umuti mu mugongo bagenda banyanyagiza imbere umuti aho bari kujya abo bagabo bikaba bigaragara ko bose basa n'abahoze batera.

Umugabo ugaragara nk'uri gutera umuti wica udukoko mu myaka, akaba ahetse imashini itera umuti mu mugongo, uwo mugabo akaba afashe inkoni hejuru icamo umuti utera mu myaka.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere ahagaragara umugabo urimo butera umuti mu bigori wica inkongwa ndetse n'ibindi bisimba byangiriza ibigori ahahetse imashini itera umuti mu mugongo ya mbaye ga zisa umutuku.

Umuganga usa n'uri mu cyumba cy'isuzumiro, iki cyumba kikaba kirimo ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ibyo arimo gukora, harimo imashini zigiye zitandukanye ndetse icyo cyumba kikaba kigaragara nk'igiteguye neza buri kintu cyose gitondetse ukwacyo.

Ahangaha hagaragara amacupa atatu apfundikishije imishuniko y'umweru, iyo mifuniko y'umweru ikaba ipfundikiye amacupa y'umweru nayo, ayo macupa agaragara nk'aho arimo umuti w'imyaka, impande yayo hari ibimera birimo kumera.

Imiti ikoreshwa mu myaka bigaragara ko ari imiti myinshi itandukanye iri mu uducupa indi ikaba mu dushashi ikoreshwa mu guterwa mu myaka bica udusimba twangiza imyaka ndetse n'izindi nyamaswa zishobora kwangiza imyaka.

Umugabo usa n'uri gutera umuti wica udusimba mu myaka, akaba ahetse ipombo mu mugongo, iyo pombo ikaba imufasha gutera umuti bitagombeye kugenda akozamo uburoso, iyo pombo ikaba iri gutera umuti mu myaka, igaragara nk'itoshye cyane, isa n'imboga zigiye zitandukanye.

Uburyo bugezweho bwa kijyambere bwo kwita ku myaka, aha ngaha hakaba harimo abarimo gutera umuti mu nanasi bakaba bahetse imashini zitera umuti mu nanasi ndetse n'umuyobozi uhagaze impande yabo wambaye ishati y'umweru.

Umuhinzi wabigize umwuga uhetse imashini itera umuti mu birarayi, akaba ari gutera umuti mu birarayi, ibyo birarayi bikaba bitoshye cyane, impande ye hakaba hari igihuru kirimo ibyatsi byinshi bitandukanye nabyo bisa n'ibitoshye cyane. Iyo pombo ikaba isa ubururu, umufuniko w'umuhondo ndetse no hasi umuhondo.

Umuntu ufite udufi dutoya mu ntoki dusa n'udusambaza turi mu kiganza cye andi akaba ari mu ibase y'ubururu, uwo muntu akaba asa nk'uyacuruza cyangwa se uyorora bya kijyambere.

Abarobyi basa n'abarimo kuroba hagati y'inshundura harimo umuntu ,bigaragara ko bari gukurura inshundura bazizana ku ruhande, kugira ngo babashe gukuramo amafi, ku ruhande bategerejwe n'abadamu babo, ndetse n'abandi bantu bafite indobo ,n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umugezi munini ugaragara itwaye nk'ikiyaga kubera ko amazi adatembera asa n'agaze hamwe, ku mpande yacyo hakaba hari ibyatsi bishyushye cyane bisa icyatsi hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'irindi shyamba riri kweguka hakurya, ndetse n'ikirere gisa ubururu n'umweru.

Umusare uri mu bwato uwo musare akaba agaragara nk'umudamu usa n'ubyibushye wambaye imyenda y'ibitenge, inyuma ye hakaba hari ikiyaga, ruguru hakaba hari ubundi bwato bugaragara agace gatoya cyane, hakurya hakaba hari ahantu hari ibiti bisa n'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umubyeyi w'umupapa ufite amafi ari mu gatebo avuye ku yaroba, akaba ari amafi asa umweru manini kandi bigaragara ko akiva kuyaroba kuko asa n'uwambaye nk'uvuye kuroba.

Abarobyi basa n'abari mu kiyaga cyangwa se mu mugezi munini bakaba barimo kuroba amafi bose bakaba bafashe ku nshundura barimo bazamura bazizana ku ruhande, izo nshundura akaba ari inshundura runini cyane, hakurya hakaba hari abandi, inyuma yaho hakaba hari ibyatsi.

Abasare babiri bari mu bwato, abo basare bakaba bafite inshundura iroba amafi y'umweru ubwo bwato bwabo bukaba busa umukara, umwe arahagaze arimo kohereza inshundura mu mazi yo kuroba amafi bose bari mu kiyaga, iruhande rw'icyo kiyaga hakaba hari ibyatsi bitoshye bisa icyatsi.

Abagabo babiri bari kugenda mu nzira umwe yambaye ishati y'ubururu, bakambara ishati y'umweru. Iruhande rwabo hari umugezi ufite amazi asa umukara. Imbere yabo hakaba hari undi mugabo wambaye ishati y'umweru. Iruhande rwabo hari undi uri kugaragara akaboko kamwe, iruhande rw'uwo mugezi hakaba hari ibimera hakurya ndetse no hakuno yaho hakaba ari inzira y'ibitaka.

Abarobyi b'amafi barobye amafi bakayashyira mu bwato burasa n'uburi mu mazi ku nkombe ku ruhande aho hafi hakaba hagaragara nk'ahateye urusasa hakaba hari amafi menshi ari mu bwato.

Ibyuzi bibiri byororerwamo amafi ahagaragara umupapa urimo ku kuroba amafi mu byuzi, ku mpande hakaba hari akandi kazu gato y'agasakaye kubakishije amatafari akoze muri sima ndetse hakaba hari n'into aho hantu.

Umugezi usa n'ikidendezi uciye hagati y'ibihingwa ku ruhande rwo hirya no hino, ku ruhande rwo hino birimo bigaragara ko hari n'irindi shyamba riri aho ngaho.

Amafi bigaragara ko ari mu cyuzi, ayo mafi akaba asa umweru ari menshi cyane ari mu cyuzi kirimo amazi y'urubogobogo ajya gusa icyatsi ndetse n'umweru n'ubururu ku ruhande hakaba hari uturabyo dusa isine ndetse n'ibindi byatsi bivanze n'utwo turabyo.

Umugabo n'umugore bafite amafi mu gatebo agatebo kakaba gakoze mu biparasitike, inyuma yaho hakaba ari icyuzi cyororerwamo amafi ndetse ako gatebo kakaba gasa ubururu, aho bigaragara ko basa n'abari kwifotoza bafashe buri wese amafi.

Amafi menshi ari mu gatebo ka palasitike ako gatebo kakaba gasa umweru, ayo mafi akaba ateretse ahantu hasa n'ahiyubashye hakurya yaho hari ibindi bikoresho bitandukanye.

Amafi asa n'ari mu mazi ayo mafi akaba arimo udufi dutoya ndetse n'amafi manini byose bikaba biri ahantu mu mazi mu kibaya kirimo amazi y'urubogobo kandi menshi asa naho ari nk'icyuzi.

Abarobyi basa n'abari kuroba amafi bafite inshundura ,inshundura ikaba irimo amafi y'umweru umwe akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero abandi bakaba undi akaba yambaye ijezi.

Abagabo basa n'abafashe inshundura mu ntoki ,bari mu mazi basa nk'abari kuroba, abandi bahagaze inyuma yabo bakurura nabo izo nshundura zisa n'iziri kuroberwamo amafi.

Umugore n'umugabo barimo kuroba amafi mu mugezi bakoresheje inshundura, inshundura ikaba iri hagati, noneho ku mpande hakaba hari umuceri bisa n'aho utoshye cyane.

Ibyuzi byororerwamo amafi, ahagaragara nk'ubworozi bwa kijyambere bwo korora amafi, ku mpande y'ibyo byuzi hakaba hari ibyatsi bitoshye, bigaragara ko hahingwa imyaka aho ngaho.

Umugabo usa n'uri kuroba amafi mu cyuzi, icyo cyuzi kikaba gifite amazi y'urubogobogo asa n'icyatsi kivanzemo umweru mukeya, akaba ari ibyuzi byinshi bigiye bitandukanye inyuma yabyo hari urutoki ndetse n'ibindi bihuru by'ibyatsi biri ku mpande.

Umupolisi w'u Rwanda uri kumwe n'abandi baturage ahantu hagaragara nk'aho hashobora kuba hari kubera gahunda y'inama, inyuma yabo hakaba hari igihuru kirimo ibyatsi birebire ndetse hakaba harimo n'abandi bantu bari imbere bagenda.

Abadamu bagera mu munani barimo gusarura ikawa, abo badamu bikaba bigaragara ko bari kuyisarurira mu ndobo ndetse no mu dutebo tuboshye neza, inyuma y'iyo kawa hakaba hari ibitoki biriho ndetse n'imyanana, ibyo bitoki bikaba bifite, biri ku nsina zifite amakoma asa n'ari kuraba aba umuhondo.

Igihingwa cy'icyayi giteye ahantu mu cyibaya hagati y'icyohingwa cy'icyayi n'undi musozi uriho'icyayi hakaba hateyemo ibiti bigaragara nkaho ari ishyamba ririmo ibiti binini ndetse hakurya yaho hakaba hari ahandi hantu hari ishyamba hakuryace cya cya kabiri hakaba hagaraga nk nkahoho ari ikirere gisa ubururu ndetse n'ishyamba rigaragara agace gato.

Abahinzi bagera kuri batanu basa n'abari mu gikorwa cyo kwita ku muceri, bari kuwukorera. Icyo kibaya kikaba kirimo amazi ndetse hakaba hahinzemo igihingwa cy'umuceri.

Umudamu usa n'ukuze ugaragara nkaho'aho ari mu ikawa, iyo kawaba itarera isa n'igitabika ifite amatabi y'icyatsi isa naho itaratangira kuzana imbuto zo gusarura.

Abahinzi b'ikawa bafashe ikawa mu biganza byabo, bigaragara ko ari ikawa nziza kandi ihishije, bishimira umusaruro wabo bagezeho, bigaragara nk'itsinda ry'ubuhinzi bw'ikawa.

Umugabo n'umugore ndetse n'undi mugabo uri iruhande rwabo barimo basarura igihingwa cy'ikawa, abo bose bakaba bishimiye umusaruro inyuma yabo hakaba ari akazu gatoya cyane gasakarishije amabati.

Ikibaya cyiza gihinzemo icyayi, iki kibaya kiri abasoromyi barimo gusoroma icyayi, iruhande rw'icyo cyayi hakaba hari umusozi muremure ndetse n'indi misozi iri hakurya yacyo. Iruhande rwo hepfo hakaba hari ishyamba rigaragara ko risa n'irikuze.

umusaza usa n'ukuze wambaye ingofero y'abayisilamu wambaye ishati y'ubururu ,akaba ari gusarura ikawa isa n'iyeze ihishije isa umutuku.

Abaturage batanu imbere hari batatu inyuma hakaba babiri, impande yabo hari igihingwa cy'umuceri uri mu kibaya, inyuma yabo hakaba hari abandi babiri, inyuma yabo babiri hakaba hari urutoki ndetse hepfo yabo hakaba hari umugezi.

Abasomyi b'icyayi bari mu kirima cy'icyayi, aba basoromyi bakaba bari gusoromeraku mafuti, amafuti abafasha kuringaniza icyayi ndetse inyuma y'uyu w'imbere hakaba hari abandi bari inyuma nabo bari gusoroma, hakurya hakaba hari imisozi n'ubundi itaeyeho icyayi n'indi misozi igaragara nkaho iteyeho ibindi bihingwa.

Abasoromyi b'icyayi babiri bari mu cyayi barimo gusoroma, ahagaragara icyayi cyinshi ndetse abo basoromyi bakaba bahetse intebo, zisoromerwamo icyayi mu mugongo.

Umudamu w'inzobe urimo gusarura ikawa yeze, ihishije. Akaba ari gusarura ikawa mu murima we, bigaragara ko ari kujya ayishyira mu gatebo, kari hasi.

Abasoromyi b'icyayi bari gusoroma icyayi bose basa n'abahuze, bari gukora igikorwa cyo gusoroma icyayi, hakurya y'abo hakaba hari ikindi cyayi gito gitemye ndetse n'imbere yabo hakaba hari ikindi gisa n'igishishe.

Ikibaya kinini cyane gihinzemo igihingwa cy'umuceri mwinshi cyane, uri ku mirongo izamuka ndetse uwo muceri ukaba agaragara nkaho usa n'uwenda kwera watangiye gutukura.

Urugo rwubakishije amategura rusize aho sima ndetse imbere y'urwo rugo hakaba hari igiti cy'ikawa isa n'iyeze irimo gutukura, hakaba hari n'insina iri hejuru cyane ndende ku buryo igera hejuru y'amategura.

Umugabo uri mu murima w'ikawa, uwo mugabo akaba yambaye ijile isa umutuku, yambaye amataratara ndetse yambaye n'ingofero y'umweru, akaba agaragara nk'aho yari arimo yifotoza afashe ku ishami ry'ikawa.

Umudamu urimo arasoroma icyayi. Aho impande y'icyayi hakaba hari inyubako igaragara nk'ikirometero barometeramo icyayi bagiye kujyana mu isoko. Uwo mudamu ahetse intebo mu mugongo, imwe batwaramo icyayi bari gusoroma. Yambaye ingofero y'umwe y'umutuku ndetse icyo cyayi kikaba gisa icyatsi. Iyo nzu ikaba isakarishije amabati y'umutuku.

Igiti cy'ikawa isa n'ihishije, iyo kawa ikaba irimo ikawa zitukuye ndetse n'izikiri ibitumbe zitaratukura ikawa ikaba ifite ikawa nyinshi cyane ndetse ikaba yeze cyane.

Uburyo bugezweho bwa kijyambere bwo kwita ku mboga ziribwa ndetse n'izigurishwa ahagaragara umupapa urimo kwita ku mboga zishobora kuba zagurishwa cyangwa se zigakoreshwa zikorwamo ibindi biribwa.

Umugabo n'umugore barimo gusarura umuceri mu kibaya. Ibi bigaragara ko umuceri weze kandi usa neza. Umuceri ukaba uri mu kibaya, iruhande rw'icyo kibaya hakurya hakaba hari ibindi bihingwa bihahinze ndetse n'ishyamba, rihagaragara agace gatoya ko hasi.

lgihingwa cy'icyayi kiri ahantu ku musozi, hakurya y'icyo gihingwa cy'icyayi cyinshi cyane, hari ishyamba ndetse hakurya y'iryo shyamba hakaba hari ,inyubako igaragara igihande kimwe gisa umweru, hejuru hari umunara, hakurya hakaba ari ikirere gisa ubururu n'umweru bivanze.

Abahinzi barimo gusarura ingano mu murima, umurima ukaba ugaragara nk'uri mu kibaya, aho abahinzi bari gusarura ari bane, babiri bari ku ruhande rwo hepfo na babiri bari ku ruhande rwo ruguru, ingano zigaragara nk'izumye.

Abasoromyi babiri bari mu icyayi umugabo n'umugore bose barimo gusoroma bahetse in inteba umugabo yambaye itaburiya isa icyatsi, bose bakaba bahuze basa n'abari gusoroma hakurya yabo naho hari icyayi ndetse n'ishyamba.

Ubuhinzi bw'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga burakataje, ahangaha hagaragara ikawa nyinshi cyane uretse ko harimo n'itaratukura ifashwe n'umuntu ayifashe mu biganza, harimo itukura, igisa icyatsi ijya guhinduka, ijya gutukura.

Umubyeyi w'umumama urimo kuhira imyaka, aho hagaragara nk'aho harimo ikidendezi cy'amazi, bigaragara nk'umuceri cyangwa se ikindi gihingwa, hakurya ye hari abandi bari mu murima ariko ni mu kibaya cy'umuceri, hakurya hakaba hari ikirere gisa ubururu ndetse n'igisa umweru.

Abakozi barimo guterura imbuto zikiri mu mashashi bagiye kuzitera mu buryo bwo kwibanda mu gutera imbuto, inyuma yabo hari imodoka y'umweru ifite amapine inyuma ku mugongo wayo, hakurya hakaba hari indi nzu y'amabati y'umweru.

Umudamu usa n'uri gusarura ikawa ye yeze neza ndetse harimo n'ikiri ibitubwe itarera iyo kawa akabarimo kusarura, akaba yambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse yambaye n'ishapule y'amasaro y'umuhondo.

Imiti y'amatungo bigaragara ko harimo n'umuti wica udusimba mu myaka tw'imungu, iyo miti ikaba iri mu macupa agiye atandukanye, harimo afite imifuniko y'umuhondo ndetse n'undi ufite umufuniko w'ubururu ndetse n'icyatsi.

Ibikombe byinshi ibyumweru bigiye bitandukanye bigaragara nk'ibiririmo umuti wica udusimba dutandukanye mu myaka, ibyo bikombe imbere yabyo hakaba hari aho biteretse hasa umweru ndetse iruhande rwabyo hakaba hari irido ujya gusa umweru uvanze n'umukara, ibyo bikombe bikaba ari byinshi cyane bipfundikije imifuniko isa umweru.

Icyumba kigaragara nk'igikorerwamo ubucuruzi bw'imiti y'amatungo, aho hari imiti y'amatungo ndetse n'icupa ririho igishushanyo cy'inka ndetse n'izindi nyamaswa, iyo miti ikaba iri mu kabati gasa umweru gasize irangi ry'umweru, iri mu macupa y'umweru agiye atandukanye.

Umuti w'ica udukoko mu myaka uri mu ducupa tugiye dutandukanye, aha hagaragara uducupa tune ,imbere yaho hari igikoresho kigaragara nk'ameza cy'umweru kimanitseho urupapuro.

Ahantu hagaragara nk'inzu icururizwamo imiti ivura amatungo kuko hashushanyijeho inyamaswa zitandukanye ihene, inka, intama, ndetse n'izindi nyamaswa zose zo mu rugo bigaragara ko imwe iri mu bikarito indi ikaba iri mu macupa y'ibipurasitiki.

Imiti ikoreshwa bavura inka bigaragara ko ari imiti igi itandukanye bitewe n'inka igiye kuvura indwara zirwaye, iyo miti ikaba iri mu dushashi dutandukanye dufite amabara atandukanye ay'umutuku, ubururu, ndetse n'icyatsi.

Imiti y'amatungo igaragara mu macupaki agiye atandukanye ndetse n'imiti ikoreshwa mu kwica ubusimba bwangiza imyaka nk'ibigori ndetse n'impungu ziza mu myaka ibitse, iyo miti ikaba iri mu macupa atandukanye mu ngano.

Umuti uvura inkoko ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye ariko by'umwihariko akaba ari inkoko. Uwo muti ukaba uri mu macupa y'umweru afite imifuniko y'umweru andi akaba afite imifuniko y'ubururu, bigaragara ko itandukanye mu mivurire.

Amacupa apfundikiye y'umweru ndetse n'ay'umuhondo afite umufuniko w'umuhondo bigaragara ko ayo mavuta ashobora kuba yarakozwe mu mata kuko yanwanditseho amata mu rurimi rw'icyongereza.

Imiti y'inkoko iri mu macupa agiye atandukanye, hari afite imifuniko y'umweru ndetse n'afite imifuniko y'umuhondo, bitewe n'aho izo nkoko zirwaye cyangwa se imiti zishaka kuvurwa.

Imiti y'amatungo iri mud dukarito tujye dutandukanye bitewe n'aho igiye kuvura ndetse n'indwara yo kuvura, imwe iri mudupfuka tw'udukarito tw'amabara y'umuhondo nay'umweru ahandi ni icyatsi n'umweru.

Iduka ricuruza imiti y'amatungo ndetse n'ibindi bitandukanye aha ngaha bigaragara afashe umuti mu ntoki uvura amatungo ndetse hakaba hari n'indi miti iri mu dukarito hasi.

Ubujerekani bugaragara nkububamo umuti w'inyamaswa z'inyamabere harimo inka, intama, ihene, ndetse n'ingamiya, uwo muti ukaba ugaragara wanditseho inyuguti zigiye zitandukanye mu ibara ry'umweru, ukaba uri mu bujerekani bw'umweru ufite imifuniko y'icyatsi n'umweru.

Abasaruzi benshi bari mu murima bigaragara nk'abahinzi, abo bose bikaba bigaragara ko bashobora kuba barimo gusarura umuceri mu kibaya hakurya y'icyo kibaya kirimo umuceri hakaba hari ishyamba rinini ririmo ibiti.

Abayobozi ndetse n'abasirikare bari mu gikorwa cyo gutera imboga ndetse n'ibiti, aha bikaba bigaragara ko bari gutera ibiti, ari nk'umuganda w'ukwezi harimo n'abasirikare.

Abahinzi bari mu kibaya gihingwamo umuceri hakaba harimo uwikoreye inkwi, abandi bafite imihoro mu ntoki, basa n'abari guca mu kibaya gihingwamo umuceri hakurya hari ibiti.

Inka nyinshi ziri mu rwuri rutoshye, urwo rwuri rukaba rurimo ibiti birebire ndetse hakaba hari n'ubwatsi busa neza bw'icyatsi kibisi, izo nka zikaba zirimo zirisha ubwatsi harimo inka z'amabara y'umweru n'umukara ndetse n'iz'umukara tsiri.

Abahinzi bari mu murima wabo barimo basarura ibigori. Ibyo bigori bikaba bisa n'ibyumye neza, abo bahinzi akaba ari abahinzi bane abagabo babiri, n'abagore babiri ndetse hakaba harimo n'ibyatsi bigiye bitandukanye bitoshye bisa icyatsi.

Umudamu wambaye ikoti ry'umukara amataratara r'ibirahuri ndetse n'ingofero y'umukara, akaba afashe urubuto rwavoka mu ntoki ndetse ari kumwe n'abandi bantu ba batandukanye harimo abagabo n'abakobwa babiri bambaye udupira tw'icyatsi.

Umudamu ndetse n'umusaza, madamu wikoreye intebe, umusaza yicunze akabando, bigaragara ko bari guca impande y'ikibaya gihinzemo umuceri usa n'ugiye kwera, icyo kibaya kikaba kigaragara neza, hakurya hakaba hasa naho bahahunikira.

Ikibaya gikorerwamo igikorwa cyo guhingamo umuceri, ahagaragara umuceri usa n'utoshye cyane usa icyatsi kibisi, uwo muceri ukaba uri mu kibaya hakurya y'uwo muceri hakaba hari ikirere gisa ubururu ndetse n'umweru ndetse hakaba habona n'ibiti.

Umuganda rusange wabaye babagara imyaka bita ku myaka bigaragara ko barimo kwita ku myaka itunga abantu harimo abahinzi batandukanye ndetse n'abandi bayobozi baje kwifatanya nabo mu buryo bwo guteza imbere igihugu.

Umudamu urimo gusarura ibigori, ibigori bisa naho byeze neza umudamu akaba afite umuhoro mu ntoki ndetse akaba yambaye umupira w'umuhondo n'igitambaro gisa umweru n'ikanzu y'amabara y'indabyo.

Abaturage bari ahantu mu kibaya, aho uw'imbere asunitse ibintu ku igare ,muri bo hakaba hari uwikoreye intebe y'icyatsi ,abandi batwaye inkoni ku rutugu . Hakurya hari inka nyinshi zigaragara nk'aho ziri mu rwuri, ndetse hakaba harimo n'umudaso.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere bugaragara nk'aho buteye ku murongo bigaragara nkaho ari imboga imboga ziteye ku murongo, hagati hagiye hacamo inzira ku buryo umuntu yabasha kuhakorera ikindi gikorwa aha hakaba harimo sisitemu yo kuhira iyo myaka amatiyo anyuze hejuru.

Abaturage barimo kwita ku muceri uri mu kibaya ugaragara nk'aho wenda kwera, uwo muceri ukaba uri ahantu hitegeye ishyamba hakurya yaryo, uwo muceri ukaba usa n'uri kweranya utangiye gutukura.

Umuhinzi uri mu murima w'amashu ufashe umuhoro mu kaboko kamwe, ndetse akaba afashe n'ishu mu kandi kaboko, muri uwo murima w'amashu hakaba hari igare ryegetse ku giti, hakurya hakaba hari ibigori bihahinze, ndetse n'intoki nyinshi.

Umuyobozi usa n'uri gutera igiti ahantu mu bindi byatsi bigiye bitandukanye. Imbere ye hakaba hahagaze umusirikari, uwo muyobozi akaba yambaye ga z'umukara, yambaye ingofero y'ubururu.

Abadamu babiri barimo kugenda ahantu mu mucaca wakuze cyane bigaragara nk'aho ari umuceri wumye, hakurya hakaba hari ibiti bibiri bifite ibitiritiri bigaragara igice cyo hasi.

Abahinzi babiri umwe afite isuka ku rutugu undi yikoreye inkwi, barimo kunyura ahantu mu kigunda kirimo umucaca muto cyane ugaragara nk'umuceri w'umuceri akaba ari umuceri usa n'ugiye kwera.

Abahinzi barimo guhinga ibihingwa by'ibigori babimenera barimo kubagara harimo n'umusirikare baririmo kubafasha umusirikare akaba yunamye imbere hari undi nawe kubagurura ibigori bigaragara ko ibyo bigori bisa neza cyane.

Abagabo basa n'abari mu gikorwa cyo gutera ibiti mu ishyamba n'ubundimo ibiti birebire. Imbere n'inyuma hakaba hari abari gutera ibiti, harimo abambaye umweru inyuma yabo hakaba hari n'abandi bari guhinguka nabo barimo gutera ibiti.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho bwo guhinga imboga hagaragara imboga z'ibisusa ndetse n'izindi mboga zirimo pavuro hagati y'ibisusa, hasi hakaba hari ubutaka busa umukara bugaragara nk'uburumbutse.

Ikibaya gihinzemo umuceri, uwo muceri ukaba uhenze ahantu hagaragara nk'ahitegeye uruhande ruriho ishyamba hakurya ndetse n'ikirere gisa ubururu. Uwo muceri ukaba usa n'utoshye cyane kandi usa n'ugiye kwera.

Iduka ricuruza imboga zo guteka bigaragara nk'abacuruza urusenda, imiteja, y'inyanya, ndetse n'izindi mboga zitandukanye harimo na sereri n'izindi mboga zigiye zitandukanye.

Ibigori bisa n'ibyze neza kuko bifite amababi yumye hejuru asa n'umuhondo ujya kuma inyuma y'ibyo bigori bibiri hakaba hari igihuru cy'inzitan kigaragara nk'aho hasi hari itaka ritarimo ikintu.

Ubuhinzi bugezweho kandi bwa kijyambere bwo guhinga imboga, izi mboga zigaragara neza cyane kandi zitoshye ku buryo zigaragara nk'izeze umuntu yazisoroma akaba yanaziteka. Izo mboga inyuma yazo hakaba hari agahuru kari kugaragara agace gato.

Imigozi y'ibijumba iteye mu murima ahagaragara nkaho ibyo bijumba bisa n'ibyenda kwera ariko biteze ruhande rwaho hari ikimera k'igishihe hakurya hakaba hari ubutaka ndetse n'ibyatsi byumye.

Ikibaya gitoshye kirimo ibyatsi bisa icyatsi kibisi, icyo kibaya kikaba kigaragara neza, kigaragaramo ibihingwa bigiye bitandukanye muri icyo kibaya, gusa hagati y'aho hakaba hagiye hajya gucamo utuyira tw'abanyamaguru, hakurya hakaba hari ikirere gisa ubururu.

Ahantu hagaragara nk'akarima k'igikoni cyangwa se akarima k'imboga, gahinzemo ibitunguru, imboga zitandukanye ndetse hakaba harimo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ako karima gasa n'ahantu hari ubutaka bw'umukara.

Ibihingwa by'intoki ndetse n'isogi ziri imbere y'izo ntoki, inyuma yaho hakaba hari ibindi bihingwa bishishe izo ntoki zikaba zitarimo urutoke akaba ari insina gusa ndetse n'amakoma asa n'ayumye ndetse n'agitoshye.

Uburyo bwo gutera ibiti mu mirima birwanya isuri ndetse akaba ari n'ibiti bivangwa n'imyaka ntibigire icyo bibyangirizaho, ubu buryo bukaba ari uburyo bugezweho bukunze gukoreshwa mu Rwanda ndetse bigaragara ko muri uyu murima hateyemo n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ibirayi biri mu mufuka ibyo birayi bikaba ari ibirayi binini cyane biri mu mufuka bisa umweru, bikaba bigaragara nk'aho hari ibyo baba bakoresha bitunga abantu mu buryo bwo kugabanya imirire mibi mu bantu.

Ubuhinzi burakataje by'umwihariko bigaragara ko ari ubuhinzi bw'ibigori ndetse n'ubw'insina zivaho ibitoki. Hagaragara insina ebyiri ndetse n'icyana cyabyo, haruguru yayo hakaba hari ibigori mu murima umwe.

Umuhinzi uri mu murima we uwo murima ukaba urimo ibigorigori byumye by'ibigorigori bikaba aribyo kugira ngo bifumbire ubutaka, uwo muhinzi akaba yambaye ishati y'umweru afashe umuhoro mu ntoki ndetse n'ipantaro y'umukara, mu ruhande rumwe mu murima hakaba hahinze harimo n'ibyatsi bibisi.

Ibigori bisa n'ibyumye biri ahantu mu murima, uwo murima ukaba urimo ikigunda cy'ibyatsi bigiye bitandukanye ibifurantindi ndetse n'ibindi byatsi bijya bitandukanye, ibyo bigori bikaba bigaragara nk'aho byeze neza kandi byumye ibyo bigori bikaba bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere aho harimo umuceri ndetse hakaba hari n'abandi bahinzi bari guhinga hakurya hari n'imashini ikoreshwa mu buhinzi mu kibaya hakurya y'icyo kibaya hakaba hari igihuru ndetse n'ibindi biti birebire biri hakurya y'icyo kibaya kirimo umuceri.

Ikibaya kigaragara neza gisa n'igihinzemo umuceri, hakurya mu ishyamba hakaba harimo inzu y'amabati y'umutuku isize irange ry'umweru.

Igipapayi cya kizungu kigaragara nkaho gikuze cyane, icyo gipapayi kikaba kirimo gutabikaho irindi shami ku mpande rifite amababi y'icyatsi, hasi ayaboze ndetse n'andi y'umuhondo.

Umuntu ufashe ibirayi mu ntoki wambaye ga z'umukara wambaye hasi imyenda isa ubururu.

Igihingwa cy'imyumbati gihinze mu butaka, gifite amababi asa n'ay'isombe, aho mu butaka hakaba hari ibindi byatsi byumye ndetse n'icyo gitaka kikaba gisa n'umukara tsiriri.

Ubuhinzi bw'imyumbati bugezweho bigaragara ko aha bahinga imyumbati, imyumbati ikaba ihinze ahantu mu butaka ku ruhande hasa umuhondo hari ubutaka bw'umuhondo ndetse ikaba inasasiye iyo myumbati.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere, aribwo buhinzi bugaragara ko ari ubuhinzi bw'ibitunguru ndetse n'izindi mbaga zigiye zitera hagati n'ahagati mu bitunguru inyuma yaho hakaba hari ibiti birebire bigaragara igice cyo hasi.

Ahantu hagaragara nk'ahahinze imyumbati cyangwa se isombe, munsi yaho hakaba hari igitaka cyiza gisa urucucu, hakurya hakaba hagaragara nk'aho hari ibindi biti bigiye bitandukanye.

Ibihingwa by'ibitoki bihinze ahantu mu murima aho bigaragara ko nta buryo bwo kurwanya inzara mu gihugu'ibyo bitoki hakaba hagaragara ko hari n'insina nyinshi ziri ku ruhande rwabo zikiri ntoya ndetse n'ibindi bihingwa bihinze muri uwo murima.

Ahantu hahinze imyumbati iyo myumbati ikaba igaragara nk'iyenda kwera ariko itarera, hasi hakaba hasasiyemo ibyatsi byo kugira ngo ubutaka bubashe kurumbuka, inyuma y'iyi myumbati hakaba hari inzu nziza cyane isakarishije amabati y'umutuku ndetse n'ibipangu by'amatafari ahiye.

Ahantu hari ikirere gisa neza, gifite igihu cy'umweru n'ubururu, hakaba harimo ibyatsi by'icyatsi ndetse n'umuhanda w'ibitaka, hashizezwemo n'ipiloni itwara Umuriro w'amashanyarazi y'icyuma, impande yaho hakaba hari ubutaka bw'umukara.

Ubuhinzi bugezweho bw'imboga, ubwo buhinzi bw'imboga bukaba bugaragara nk'ubuhinzi bw'amashu ndetse agiye ateye ku murongo, no hakurya bigaragara ko hari ibindi bihingwa bihahinze, bisa umuhondo ujya kuba icyatsi.

Ubuhinzi bw'imyumbati ahagaragara umwumbati uhinze ahantu ndetse n'indi myubati iri ruguru nyinshi cyane mu butaka ihinze hejuru ukaba ubona amababi asa n'ay'isombe, iyo myumbati hakaba harimo ubutaka busa umukara.

Igiti cy'urubuto rw'amacunga, icyo giti kikaba gifite amababi asa icyatsi, kirimo imbuto z'amacunga zisa icyatsi ndetse uruhande rumwe zisa umuhondo; icyo giti kikaba giteye ahantu hasi bigaragara nk'aho hari ibyatsi ndetse n'ubutaka butariho ikintu.

Agace nyaburanga kagaragara neza, karimo umugore n'umugabo batembeye, aho ngaho hakaba harimo akayira k'amaguru ndetse hakaba harimo n'ibiti binini cyane, bigaragara nk'aho bikuze ku mpande y'uwo muhanda.

Inka ziri mu rwuri zirimo kurisha hagati muri urwo rwuri harimo ibiti binini cyane bifite amashami bigaragara nk'ibikuze cyane, ibyo biti bikaba bigiye bitwikiriye muri ubwo busitani.

Umuhanda munini cyane ugaragaramo nk'urimo imodoka ndetse n'abaturage barimo kugenda. Umuhanda akaba ari uw'ibitaka ku ruhande rumwe, imbere akaba ari uwa kaburimbo. Umuhanda ku ruhande rwawo hakaba hari umuyoboro w'amashanyarazi, utwaweho n'amapironi y'ibyuma ndetse n'andi mapironi y'imbere y'ibiti.

Ubuhinzi bugezweho bwo guhinga urutoki, uru rutoki rukaba rugaragara ari rwinshi cyane harimo n'ibiti kimwe kimwe, ibyo biti bikaba bigaragara nk'aho bisa n'ibikuze ndetse n'uru rutoki rukuze.

Ubworozi bugezweho bwa kijyambere, ahagaragara inka nini cyane z'ibihogo eshatu ndetse n'izindi ziri inyuma yazo, inyuma hakaba hari uruzitiro aho ziba ndetse hakaba hari n'ishyamba.

Abaturage benshi bari mu muhanda barimo bagenda, bigaragara ko uy'umuhanda wa kaburimbo ariko urimo umacucu ,abo baturage hakaba harimo abambaye amashati y'umweru, ndetse n'abandi bambaye umweru hejuru hasi umukara, benshi bagiye batandukanye.

Agace nyaburanga kagaragaramo umukenke. Ako gace kakaba kagizwe n'imisozi miremire, igaragara hakurya ndetse n'ikirere gisa neza. Iruhande rw'iyo misozi hakaba hari igihuru cyiza cyane kirimo ibyatsi bitoshye. Hagaragara cyane kandi neza umukenke, harimo n'igiti kirekire gisa nk'icy'avoka.

Igiti kinini cyane kigaragara nkaho ari urubuto rw'indimu, icyo giti kikaba kigaragara uruhande rumwe cyaragiye kivamo amababi yarahungutse, urundi ruhande rugaragara birimo amababi, icyo giti kikaba kigaragara nkaho ari icunga cyangwa se ari icy'dimu.

Ahantu hagaragara nk'ikiyaga cyangwa se icyuzi, bigaragara ko hari ikidendezi cy'amazi menshi. Ku mpande hari ibiti birebire by'amaraso, hakurya hari igihuru kigaragara nkaho kirimo imikindo ndetse n'ibindi biti birebire hakurya ndetse n'ibindi byatsi biteye ku mpande.

Ahantu hakorerwa ubuhinzi ndetse ubwo buhinzi akaba ari ubw'ibigori ibigori bisa n'ibishishe cyane, impande y'ibyo bigori hari ishyamba ririmo ibiti birebire, hakurya y'iryo shyamba hakaba hari ikiyaga hejuru y'icyo kiyaga hakaba ari ikirere gisa ubururu n'umweru.

Ahantu hagaragaramo ishyamba rinini ryororerwamo inyamaswa z'agasozi harimo inyamaswa zigiye zitandukanye mu ishyambahino hakaba hagaragara nk'aho ari parike y'inyamaswa.

Agace nyaburanga kagaragara neza, kagaragaramo ikibaya gihinzemo umuceri, hakurya hakaba hagaragara umusozi wererana, usa neza ndetse n'umugezi uciye hagati y'uwo musozi ndetse n'ikibaya. Uwo musozi wo hakurya ukaba urimo n'ibiti bigiye bitandukanye.

Abagabo babiri barimo kugenda mu nzira y'igisibanzira iyo nzira ikaba irimo amabuye menshi ndetse n'ibitare imbere hakaba hari ishyamba ndetse n'igihuru kigaragara nk'aho nta nzira nziza ihari.

Ishyamba rinini cyane rigaragara nk'aho rishobora kuba rituwemo n'inyamaswa, rifite ibiti birebire. Iryo shyamba rikaba imbere haryo hari ibiti bifite igitiritiri cy'umuhondo. Icyo giti kikaba gifite ndetse n'amatabi hejuru atoshye asa icyatsi.

Ishyamba ryiza kandi rinini cyane. Iryo shyamba imbere yaryo hakaba hari ahantu hari ibyatsi byahindutse umuhondo, iryo shyamba rikaba risa n'irikuze kandi iruhande rwaho hari ibihingwa bihahinze bigaragara hasi.

ishyamba rinini cyane rigaragara ahantu ku musozi, hakuno yaho hakaba hari ikibaya kirimo ibiti kimwe kimwe, ndetse impande yacyo hakaba hari ikindi giti cy'umusave, ruguru hakaba hari aho kuragirira nk'amatungo ,ndetse hari ubwatsi butoshye cyane.

Abakozi babiri basa n'abaganga, abo bakozi babiri bakaba barimo kugenzura inyangingo z'iyi miteja irambitse imbere yabo bakaba barimo bayitunganya, iyo miteja ikaba ari imiteja myinshi icyatsi ndetse bigaragara ko isa n'isaruwe vuba.

Imbuto zisa neza cyane zisa icyatsi z'amapera, izo mbuto zikaba ziri mu giti, bigaragara ko aho hantu hari ubutaka butoshye kandi burumbutse, izo mbuto zikaba zisa icyatsi kibisi.

Umugabo uteruye amatunda mu ibasi y'ubururu, ayo matunda akaba asa umutuku werererutse, hakurya ye hakaba hari abandi bantu ndetse hakurya hakaba hari n'ibiti biteye by'umweru ndetse n'ibisa icyatsi.

lndabyo zigiye zitandukanye ziri mu mavase y'umukara, izo ndabyo zikaba zitondetse ku murongo. Izo ndabyo kandi zikaba zisa n'izitoshye cyane zisa icyatsi ,harimo rumwe rwo ruguru rugaragara, rufite n'amababi asa umuhondo.

Umumama urimo gutora inyanya azishyira mu dutebo aho ari hakurya ye hakaba hari izindi nyanya ziteye ariko zitaratukura. Akaba afite udutebo dutatu arimo kugenda atoreramo inyanya ndetse n'akandi katarimo inyanya kamwe.

Abamama bagaragara nk'aho bari mu murima w'ibihwagari, ibihwagari bikaba ari ibihwagari bigaragara nk'ibitoshye cyane bisa n'ibiri kwitabwaho ku buryo bwa nyabwo, bigaragara ko buri wese imbere ye hari ibihwagari n'abari inyuma, inyuma yabo hakaba hari ishyamba rigaragara agace gatoya.

Ubuhinzi bw'inanasi ziteye ku muronko kandi izo nanasi bikaba bigaragara ko zeze neza, ziteye ndetse no ku muronko hagati hagiye hacamo inzira ku buryo umuntu yabasha kuzisarura zisa umutuku bigaragara ko zihiye.

Ubuhinzi bugezweho bwo guhinga imboga n'imbuto, aha ngaha hagaragara umugore urimo kwita ku nsenda zihinze ahantu, zigaragara nk'izitoshye cyane. Izo nsenda zikaba zirimo izitukuye, zisa umuhondo.

Abakozi b'abahinzi barimo gushaka uburyo bakita ku myaka, bigaragara ko barimo kubagarira ibishyimbo, bakuramo ibyatsi. Aha ngaha biragaragara neza ko barimo kubagara ibishyimbo bitoshye bisa icyatsi, iruhande rwabo uko ari batatu, hari ibindi biti biri hakurya yabo.

Umudamu urimo kwita ku myaka, bigaragara ko ari umujyanama w'ubuhinzi, uwo mujyanama akaba ari kwita ku mbuto ndetse n'imboga, biri mu karima kagaragara ku buso busa n'ubushishe cyane.

Isoko ricururizwamo imboga zigiye zitandukanye intoryi, pavuro, insenda, karoti, inyanya ndetse n'izindi zigiye zitandukanye harimo n'imbuto, izo ntoryi zikaba zisa n'umuhondo zimwe, izindi zisa umweru.

Uburyo bwo kwita ku mboga n'imbuto bigaragara nk'aho ari uburyo bugezweho, aha ngaha hakaba ari ahantu hubakiye bita ku mboga n'imbuto bihinze hejuru hasi n'ahasakaye ariko hadatwikiriye neza.

Umudamu urimo gukora ubuhinzi bw'indabyo, yita ku ndabyo zigiye zitandukanye mu murima, aho bigaragara nkaho yambaye ga z'umukara ndetse yambaye n'ishati y'ubururu bigaragara ko arimo yita ku ndabyo zigiye zitandukanyekana.

Aha ngaha umuzungu arimo gutera ibitunguru, inyuma ye hakaba hari abandi bagabo ndetse n'abagore bahagaze, harimo uri kumufotora ufite telefoni y'umweru, ufite umutaka.

Umugabo ufite imbuto z'amatunda mu ntoki ari kwerekana itunda rimwe, hakurya hakaba hari andi ateye ariko ateze, gusa ayo afite mu ntoki biragaragara ko ahishije kandi yeze.

Aha ni ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere bwo guhinga umuceri, ahagaragara umuceri mu kibaya ndetse n'abantu babiri bari kugaragara agace gato, hakurya yabo hari ikirere gisa umweru ndetse n'ubururu.

Uburyo bwo kuhira bukoreshwa cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba, aho haba izuba ryinshi cyane, ubu buryo bukaba gukoreshwa buhira imboga ziteye ku mironko, aho bigaragara nk'uburyo bwa kijyambere bugezweho.

Uburyo bugezweho bwo kuhira imyaka, bakoresheje imashini ikurura amazi mu kizenga, noneho ayo mazi akuhira imyaka, aha hagaragara abagabo babiri bari gufotorana, barimo kuzamura amazi, bayashyira mu butaka mu bigori.

Ahantu hasa n'ikiyaga icyo kiyaga kikaba kirimo amazi asa n'atagenda ariko hakurya hakaba hari indi nkombe irimo andi mazi. Hagati yayo hakaba haciyemo ibimera bisa icyatsi no hakurya y'iyo nkombe hakaba hari ibindi biti birebire ndetse no hakurya hari ibindi bihingwa bihahinze. Hino hari akazu gatoya ndetse n'imashini ihinga.

Uburyo bwo gukoreshwa mu kuhira imyaka, ibibaya niyo ijya ikunze gukoreshwa mu gace kabamo izuba ryinshi no mu ntara y'iburasirazuba, aho bigaragara nk'aho bari kuhira imyaka.

Umurima urimo gukorerwamo ubuhinzi bwa kijyambere bwo gutera ku murongo imboga, hakaba harimo imambo zigeye zirambuye ku buryo batera ku murongo bagendeye kuri izo mambo ziriho imirongo itandukanye.

Umwana urimo kuvomerera imyaka iruhande rw'iyo myaka rukaba ari urutoki amakoma atoshye, umwana akaba ari kuvomerera ubuso bunini cyane bigaragara ko bishoboka ko ari ubw'imboga.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere bukoreshwa, hakaba hakoreshwamo uburyo bwo kuhira imyaka, bugezweho kandi bworohera abahinzi bakuhira iyo myaka yabo, aho mu kibaya kigaragara nk'aho bari kuhira.

Umubyeyi w'umumama urimo kuvomerera imyaka, akoresha uburyo bugezweho bwa kijyambere akoresheje umupira, akaba arimo kuvomera imyaka mu kibaya, hakurya hakaba hariho umusozi uriho ibiti ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Umuzungu wambaye imyenda y'akazi harimo ijire, usa n'uri mu gikorwa cyo kuhira imyaka. Akaba ari gukora uburyo bwo kuhira, iruhande rwe hari umugezi wubatse neza utwara amazi, hakurya hakaba hari ibihingwa bitandukanye n'ubutaka busa umuhondo.

Uburyo bugezweho bwo kuhira imyaka ahagaragara amatiyo atwara amazi ndetse n'amazi ari kugenda anyanyagira ku mpande zitandukanye aho hantu hakaba hari ubutaka, ubutaka bukaba buteyemo ibimera bigiye bitandukanye.

Umuhinzi wabigize umwuga arimo kwita ku myaka yuhira, akaba ahagaze mu murima ahagaze ahantu hamwe ku buryo yuhira n'umupira akabasha kuhira ahantu hagiye hatandukanye, uwo mugabo yambaye ikoboyi ndetse n'agapira gasa icyatsi.

Uburyo bwo kuhira bugezweho, aha ngaha bigaragara ko bari kuhira inkeri za kizungu, zisasiyemo ibyatsi byumye bigiye bitandukanye mu buryo bwo kugira ngo zibone ifumbire ituma zikura neza, izo nkeri zikaba zisa neza kandi zisa naho zitareba.

Umudamu wambaye agapira k'umutuku bigaragara nkaho ari kuhira imyaka kuko amazi ari kuza mutiyo agatarutira hakurya, harimo ibyatsi byumye bye bitandukanye, inyuma yakaba harimo izindi mbuto zitandukanye bigaragara nk'aho ari imboga.

Imashini icucira amazi mu murima anyuze mu itiyo y'umukara iruhande rw'iyo mashini izamura amazi hakaba hahinze igihingwa cy'umuceri utoshye usa icyatsi kibisi ndetse n'undi uri hepfo y'inzira hagati y'uwo muceri hakaba haciyemo inzira.

lkibaya kigaragara nk'igihinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko icyo kibaya kikaba gifite imirongo inyuramo amazi, anyura mu itiyo kugira ngo abobeze ubutaka. Ibyo bimera bikaba bitoshye cyane bitewe n'ayo mazi.

Umugore n'umugabo basa n'abari mu igikorwa cy'ubuhinzi bwa kijyambere barimo guhinga ibigori, impande yabo hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ahiye hejuru isakarishije amabati ndetse n'ibindi biti by'imbuto hakurya.

Abahinzi barimo gukora igikorwa cyo kuhira imyaka yabo, bigaragara ko inyuma yabo hari urutoki ndetse n'ibindi biti biri inyuma y'urwo rutoki, abo bahinzi bakaba ari benshi ariko atari cyane.

Uburyo bwo kuhira imyaka buri gukoreshwa mu kibaya aho bari kuhira inkyeri za kijyambere mu kibaya kinini cyane, hakurya y'icyo kibayaba hakaba hari umusozi uriho igihuru kirimo ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse hakaba hari n'ikirere kirimo igihu cy'umweru.

Umugezi munini cyane ugaragara nkaho iruhande rwaho hari inkuta zihakikije z'ibyuma zirinda ko abantu bagwa mu mazi. Izo nkuta zikaba zisize irangi ry'umweru ndetse n'umutuku, hakurya hakaba hari ibihingwa bihahinze ndetse hari n'ikirere gisa neza cy'umweru ndetse n'ubururu.

Umumama urimo kuvomerera amashu ,ikaba inyuma ye hari abandi bagabo batatu, ayo mashu akaba ari amashu atoshye cyane, inyuma yayo mashuri hakaba hari ikigunda, cy'ibiti byinshi by'inzitane bitandukanye ,ndetse n'urutoki .Hakurya haka hari ikirere gisa umweru.

Ishyamba rinini cyane, impande y'iryo shyamba hakaba hari ibyatsi bisa n'ibitoshye hagati yaho hagiye hari udutabire, hakurya hakaba hari umugezi munini ugaragara nk'ikiyaga kiri hamwe, hakurya hakaba ari ikirere gisa umweru'ubururu.

Agasozi ndatwa kagaragara neza kariho umusozi urasa neza kandi hakurya yaho hakaba hagaragara mugihe kijya gu gusa umutuku uruhande rumwe hasa ubururu n'umweru ndetse hari n'imisozi miremire.

Agasozi nyaburanga kagaragaraho ibihingwa bitandukanye, bikaba bigaragara ko hakurya hari ikirere gisa ubururu ndetse n'umweru, hino hakaba hari ibyatsi bitoshye cyane bigaragara nkaho ari mu murima.

Agasozi ndatwa kagizwe n'amatarasi, agasozi kakaba karimo'imiturirwa y'amazu ajya atandukanye ndetse hakaba hari andi materasi ari hakurya ndetse hari ikirere gisa ubururu ndetse n'umuhondo n'agasozi kari kugaragara igice cyimwe n'imisozi.

Agace nyaburanga kagaragaraho nk igihingwa cy'icyayi, hagati y'icyo cyayi hakaba harimo inyubako zubatsemo, iruhande rwawo ahagana haruguru hakaba ishyamba rinini cyane ndetse n'imisozi myiza nyaburanga ihereye ijisho, hagati y'icyayi kandi hakaba hari n'ibindi biti birebire bigaragara nk'ibitoshye cyane.

Ishyamba rinini hakurya ahagaragara imisozi ndetse n'ibibaya, hakaba hakurya hari ikirere gisa umweru wijimye ujya kuba ubururu.

Agace nyaburanga kagaragara neza kagizwe n'imisozi miremire impande y'iyo misozi hakaba hari ikibaya kigaragara nk'aho kirimo ibihingwa harimo ndetse harimo n'intoki, icyo kibaya hakaba harimo ibyatsi byagiye byuma hakurya yaho hari imisozi miremire ndetse n'ikirere gisa neza gisimweru.

Inyubako zigaragara nk'ahantu hakorerwa igikorwa cy'ubuhunikiro bw'imyaka, ndetse n'ubwanwanakino bw'imyaka, impande y'ubwo buhukiro ndetse n'izo nyubako hakaba hari ibiti birebire bisa naho ijya gusa icyatsi n'umuhondo hakurya hari umusozi muremure uteyeho igiti kimwe kimwe.

Agasozi ndatwa kagaragaraho imisozi miremire hakurya, hakuno hakaba hari urutoke ndetse n'inzu zisakarishije amategura ndetse n'ahandi hantu hagiye hari intabire, iyo ntabire ikaba igiye isa umuhondo itaka ryayo.

Imisozi igaragara nk'aho ari miremire hagati hakaba harimo ibibaya, ku ruhande rumwe hakaba hateye ibiti bisa icyatsi ndetse hejuru hakaba hari ikirere gifite igihu cy'umweru ndetse n'icy'ubururu.

Aha ngaha ni amatarasi y'indinganire ari ku musozi umwe, ahandi hakurya hakaba hari igihuru ndetse hakurya y'aho hakaba hari imisozi ijya kuba itatu umwe ugaragara igice, iyo misozi ikaba ari imisozi nyaburanga, hakuno hakaba hari amagare abiri agiye kuvomerwaho amazi.

Agace k'imisozi miremire ndetse ivanzemo n'ibibaya ibyo bibaya bikaba bifite aho ubwatsi butoshye, ku mpande hakaba hari imisozi miremire igaragara nk'aho ifite n'ibirunga ndetse kuri ibyo birugarije hakaba hari igihu gisa umweru ndetse n'ubururu.

Ahantu hagaragara neza h'ikibaya hahinze icyayi, bigaragara ko kigaragara ko ari ifoto yafatiwe hejuru ndetse ku buryo ubona yuko hakurya hari ikirere gisa ubururu ndetse kivanzemo n'umweru, ahandi hakaba hari ishyamba ndetse n'igihuru bigaragara ko ari kinini cyane.

Agace k'imisozi miremire ahagaragara hamwe urutoki bisa n'umukenke hakurya hakaba ha ishyamba ndetse uruhande rumwe hakaba hari ahantu h'intabire bahinga ndetse n'ibibaya hakurya hari ahantu hasa n' hari urusengero rw'amabati y'umweru ndetse n'izindizu z'imituri igwa imwe kuri imwe ku mpande.

Ahantu hagaragara ubworozi bwa kijyambere bw'amatungo y'amahene, ari muri senyenge ahantu hubakiye ndetse n'inyuma ya senyenge, hakurya y'isenyege aho amatungo aba hakaba hari umugabo ndetse n'igiti kirekire cy'icyatsi ndetse n'ibindi birihinbwa bihinze hakurya yaho.

Inyamaswa y'ingurube igaragara nk'iri konsa abana bayo, aho bari kogayo iryamye hasi inyuma yayo hakaba hari ibiyitunga babisutse hasi, iyo nyamaswa y'ingurube ikaba isa umweru.

Ubworozi bugezweho bw'amatungo, ahagaragarara inka y'ibihogo uruhande rumwe, ahandi isa umweru. Iyo nka ikaba irimo kurisha ubwatsi busa n'ubutoshye buri mu kiraro cyayo, aho iri kurira mu kiraro imbere.

Inka y'ikimasa ifite amabara y'umweru ku maguru, hejuru isa umukara, ifite n'ibara ry'umweru mu mpanga, inka ikaba iri mu kiraro cy'imbabari, ahagaragara nk'aho yubakiye neza kandi isasiye.

Ubworozi bugezweho bwa kijyambere bwo korora inkoko, ahagaragara inkoko nyinshi zirimo gutora harimo amasake ,ndetse n'izindi zihagaze zisa n'iziri muri senyenge imbere ,ariho zitorera harimo ndetse n'ibyatsi.

Inka nziza kandi zifite amahembe maremare cyane. Inyuma yazo hari abazitaho nk'abaganga bazo ndetse n'abazikurikirana umunsi ku munsi. Bigaragara ko ziri mu gikuyu aho zitabwaho. Izo nka zikaba zigaragara nk'inka z'ibihogo ndetse harimo n'inka igaragara igice k'imbere y'umukara.

Ahantu hororerwa inka, hagaragara nk'igikuyu, harimo inka nyinshi zitandukanye, inka z'ibihogo ndetse n'iz'umukara n'umweru, hakaba harimo abashumba baziragiye, muri urwo rwuri hakaba harimo ibyatsi birebire, harimo ibitoshye ndetse n'ibisa nibiri kuraba, inyuma yaho hakaba hari ibiti birebire ndetse hepfo hakaba hari igiti cy'indimu.

Ishyo ry'inka nyinshi zifite amahembe maremare y'umweru, hejuru ku gasongero kayo umukara. Zikaba ziri kumwe n'abashumba bazo, izo nka zikaba ziri ahantu hari ubwatsi butoshye, hari ishyo ry'inka ziri mu mukumbi nyinshi cyane.

Inka nziza cyane igaragara nk'imaze kubyara irimo kurigata iyayo umutavu ukivuka, iyo nka ikaba igaragara nkaho iri mu kiraro hasi harimo ibyatsi bitemaguye harimo ndetse n'ibikoma ndetse n'ibiva byose ku makoma biri hamwe byose bihurije hamwe.

Ubworozi bugeze n'bwa kijyambere ahagaragara umuganga w'amatungo arimo yita ku nka ziri mu biraro by'ibyuma, hejuru hasakawe n'amabati, noneho zikaba zirimo kurya ubwatsi butunganyijwe.

Ahantu hagaragara nk'igikuyu hororerwa inka nyinshi, aho hantu hakaba hagaragara inka zigiye zitandukanye ndetse n'abantu bafite ibyansi basa n'abari gukama, inyuma y'aho hari inyubako zisa n'ikaragiro, hakurya hakaba hari ikigega gisa umukara.

Ubworozi bwo mu rugo bw'inkwavu bigaragara ko ziri mu bibuti byazo, hakaba ari inkwavu zigiye zitandukanye, bigaragara ku ruhande ruguru umuganga uzitaho wambaye itaburiya y'umweru igaragara amaboko gusa.

Ubworozi bw'amatungo bugezweho bwa kijyambere, aho bigaragara yuko hari abavuzi b'amatungo, barimo kwita ku nka zitondetse ku murongo z'amahembe maremare kandi bakaba baje bambaye amataburiya y'umweru.

Inka nziza cyane igaragara y'imbyeyi, ifite amabara y'umukara, hejuru ndetse no hasi ikagira amabara y'umweru, ku mpanga ifite ibara ry'umweru, hakurya hakaba hari indi igaragara nk'iy'ibihogo ndetse n'umweru.

Inka nziza kandi nini cyane, izo nka zikaba zifite amahembe maremare kandi zigaragara neza ziri aho zigomba gutaha, izo nka zikaba zisa ibihogo, zikaba zifite abashinzwe kuzitaho bazivura ndetse hakaba inyuma yaho hari urwuri rw'ibyatsi bitoshye.

Imishwi y'inkoko iri ahantu mu nzu aho yororerwa. Ikaba ari imishwi myinshi cyane y'amabara atandukanye arimo ajya gusa umweru ndetse n'imishwi isa umutuku. Iyo mishwi ikaba igaragara nk'aho ikiri mitoya cyane.

Inyamaswa y'ingurube iri konsa n'ibyana, inyamaswa y'ingurube ikaba isa umweru, isa n'ibyibushye n'ibyana byayo bisa n'aho bikiri bitoya birimo konka, ahagaragara ibyana bitatu.

Umuvuzi w'inka ugaragara nk'aho arimo kuzitera amahere no ku matwi, akaba yambaye itaburiya y'umweru asa n'uwifubitse mu mutwe nk'umuyisilamu, ruguruye hari undi mworozi uri ruguruye, izo nka zikaba zisa umukara zifite amahembe maremare y'umweru.

Inyubako igaragara nk'ikiraro cy'inka aho inka zororerwa imbere zisa n'izirimo kunywa amazi, noneho iyo nyubako ikaba ifite inkingi z'ibyuma bisize irangi ry'umweru ndetse akaba ari ahantu zisa naho ziri mu kirere hasi hasa n'ahari imbaho.

Ubworozi bugezweho bwo korora ingurube, ahagaragara ingurube y'umukara iri kumwe n'ibyana byayo, ibyana bimwe biri konka amabere yayo, aho bigaragara ko ikindi kiri imbere yayo.

Ishyo ry'inka nyinshi ziri mu rwuri bigaragara nk'aho zishorewe n'umushumba ariko akaba atagaragara, bigaragara yuko ari inka nyinshi harimo inka z'umukara, inka z'ibihogo, ndetse n'izindi nka zifite ibara ry'umweru.

Ubworozi bugezweho bw'inka aho bigaragara ko ari inka imbere yazo hari ibyo kurya byazo byatunganyijwe mu bwatsi bugezweho, hakurya hakaba hari umushumba wazo uzitaho, izo nka zikaba ziri ahantu hubakiye n'ibyuma zigaragara igice k'imbere ku mitwe yazo.

Abaganga b'inka barimo kuyitera urushinge, iyo nka akaba ari inka y'ibihogo ifite amahembe y'umweru, inyuma yayo hari umuganga wayo wambaye itaburiya y'umweru n'abandi batatu barihamwe.

Urwuri rugezweho rwa kijyambere ahagaragara inka hakorutiriye imiyenzi, aho hantu hakaba hari inka ebyiri z'imikara inini n'intoya ndetse n'izindi ebyiri z'ibihogo hakury hakaba akazu k'amabara.

Inka nyinshi zitandukanye zorowe mu buryo bwa kijyambere zirimo kurya ubwatsi bwazo ni nk'ibiryo byazo byatunganyijwe, icyo kiraro zirimoba ari ikiraro kigezweho cyubakishije ibyuma ndetse n'ibiti hagati inyuma yaho hari indi nyubako n'imisozi.

Icyumba cyororerwamo imishwi y'inkoko ahagaragara imishwi myinshi cyane bigaragara nka ho yororewe ahantu mu cyumba gikoze neza harimo amatara, iyo imishwi ikaba isa umweru ndetse hakaba harimo n'u n'udutebo two gucana amabuji y'umweru ndetse n'udutebo tw'umutuku.

Ubworozi bugezweho bwa kijyambere ahagaragara inka nziza cyane zifite amahembe maremare, inyuma yazo hakaba hari abaganga bazo barimo kuziha imiti bazitera inshinge, izo nka zikaba zubakiye ziri ahantu zitondetse ku murongo.

Umworozi wabigize umwuga urimo kwita ku nkoko ze harimo amasake ndetse n'izindi nkoko. Hasi hakaba hagiye haba amagi aho ziterera amagi akagwa. Izo nkoko zikaba ari inkoko zisa umweru zifite ibirokoko binini bigaragara nkaho zitabwaho bihagije.

Umuvuzi w'inka urimo kwita ku nka areba uburyo zirimo kurya ibyatsi byatunganyijwe, izo nka zikaba ari inka z'ibihogo zambaye amaherena y'umuhondo ku mpande zombi, noneho izo nka zikaba ziri mu nzu yubakishije ibyuma hejuru ari amabati.

Imvange y'ibishyimbo, amashaza y'ibisate, amagi ndetse na soya, ibyo bishyimbo bikaba biri hamwe harimo ibisate bibisi by'amashaza ndetse n'ibyumye, ibyo bishyimbo bimwe bikaba bisa umutuku harimo ndetse n'ibisa umweru.

Impungure, soya ndetse n'ingano byose birunze hamwe, bisa n'ibyumye nk'aho umuntu yabibetesha, ibi ngibi byose bikaba byose biri hamwe, ku buryo byose utamenya kuvangura na kimwe.

Abaturage benshi bari imbere, imbere yabo hakaba hari umusaruro w'ibigori mwinshi cyane, inyuma y'abo baturage hakaba hari inzu zitandukanye, harimo n'inzu y'amabati y'umweru, hakurya hakaba hari ipoto.

Ibigori byomye bikiri mu bitiritiri, ibyo bigori bikaba bigaragara neza ko ari ibigori bikuze kandi byeze binini, harimo n'ibyatsi byagiye bimerera muri ibyo bigori, harimo inyabarasanyi.

Ibigori byinshi bidahunguye bikiri ku bititiri byabyo, ibyo bigori bikaba ari birebire ari ibigori by'umweru ndetse n'ibindi bisa umutuku bigaragara nk'aho ari ibigori birebire cyane.

Ibinyamisogwe by'ubwoko butandukanye harimo amashaza, ibishyimbo, isoya ,ndetse n'ubunyobwa ndetse hakaba biteretse ahantu ku kantu gasa n'akaboshye mu migano hakurya hakaba hari indi soya.

Tungurusumu nyinshi zigifite amababi yo hejuru, izo tungurusumu zikaba zari ziteye ku murongo hakurya yazo hakaba hari ibiti birebire ndetse n'inyubako ifite hejuru amabati y'umweru ndetse hasi ikaba isi irangi ry'umukara.

Imifuka y'imyaka y'ibinyampeke, iyo mifuka ikaba iri igaragara nkaho irimo ingano nyinshi cyane, izo ngano zikaba zuzuye ahagaragara umusaruro utubutse kandi ni mwinshi.

Ikiganza kirimo sezame mu ntoki, hasi yacyo hakaba hasa umukara, hari ibintu bisa n'ifumbire wagira ngo bari gutera sezame mu murima.

Ibishyimbo biri mu isahani y'idongo y'umweru. Iyo sahani ikaba iteretse ku meza. Ibyo bishyimbo bikaba birimo iby'amabara agiye atandukanye. Harimo ibisa umweru, ibisa umakara n'umweru uvanze n'ibijya gusa umuhondo. Bigaragara ko ari ibishyimbo byiza cyane.

Umuntu uri mu bubiko bw'imyaka, ubwo bubiko bukaba burimo imyaka isa umuhondo ,akaba afite umukuzo mu ntoki arimo gukubura, akaba yambaye isarubeti ,ndetse mu mutwe akaba yifubitse yambaye neza.

Ubwanikiro bugezweho bwa kijyambere bw'imyaka bufashishwa kugira ngo bumutse nk'ibigori ndetse n'ibindi binyamisogwe bigiye bitandukanye, hakurya y'ubu bwanikiro hari inzu zihubatse ndetse n'ubundi bwanikiro, hepfo hakaba hari ubundi bwanikiro ndetse hakurya hakaba hari urutoki rwinshi cyane ndetse n'igihuru kirimo ibiti birebire.

Umuntu ufashe soya mu ntoki mu kiganza cye, izo soya zikaba zisa naho zumye, uwo muntu akaba yambaye ishati ijya gusa umweru ariko wijimye ndetse n'ipantaro isa nk'umukara, iyo pantaro ikaba irimo ikaramu y'ubururu.

Ishyo ry'inka z'Inyambo zifite amahembe maremare z'ibihogo ziri mu gikuyu, iro shyo ry'inka z'Inyambo zikaba ziri ahantu hazitiye, inyuma hari abaganga bazo bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'amataburiya y'umweru, ku ruhande hakaba hari umucaca usa n'uri kuma ndetse na hamwe hamwe hatoshye.

Umuvuzi w'amatungo wambaye itabariya y'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu gafite imishini y'umweru, wasutse ku mutwe imbere ye hakaba hari udukombe asa n'ugenzura anasesengura neza ibijyanye n'imiti.

Amacupa atatu arimo umuti ugaragara n'uwomora ibisebe umuti ukaba uba arifu, uwo muti ukaba uteretse ahantu ku meza asa umweru haguru yaho hari ibindi bikoresho bisa umakara ndetse n'umuhondo uvanze n'umukara.

Umuvuzi w'inka urimo guterura ubujurekani busa umweru bigaragara nk'aho bushobora kuba burimo amata cyangwa se ibindi byose bikomoka ku matungo, ubu bujurekani bukaba busa neza cyane ndetse nawe akaba yambaye itaburiya yumweru.

Umuvuzi w'amatungo wambaye ga z'ubururu usa n'urimo kuvura intama, iyo ntama ikaba isa umweru dereri ndetse akaba impande ye hari ahantu asa n'ufashe urushinge arimo kuyivura.

Abaganga b'inka barimo kwita ku nka bayitera urushinge, harimo umwe uri imbere wambaye itaburiya y'umweru, abandi bari inyuma y'ikiraro, aho bigaragara ko basa n'abari kuyitera rushinge.

Abaganga batatu basa n'abari mu cyumba cy'isuzumiro aho basuzumira ibice by'umubiri ,ibyo bice by'umubiri akaba ari ibice by'imbere mu mubiri, aho bigaragara nk'aho yaba arimo kubisuzuma akoresheje udukoresho twabugenewe harimo nk'utmakasi ndetse n'uwaruguru akaba aribyo arimo.

Umuvuzi w'inka bigaragara ko arimo atera urushinge inka y'ibihogo ifite amabara y'umweru, izo nka zikaba zigaragara neza kozifite amahembe maremare nyuma yaho hakaba hari igikuyu, icyo gikuyo cyikaba aricyo cyiragirwamo izo nka ndetse n'ibiti kimwe kimwe.

Umworozi w'inkoko wabigize umwuga, urimo kuzitaho azicanira urumuri, ahagaragara nk'aho izo nkoko arimo kuziha ibyo kurya. Izo nkoko kaba ari inkoko nyinshi harimo amasake ndetse n'izindi ziri mu dutanda imbere iyo nyubako akaba ari inyubako nini cyane yubakishijwe amabati.

Umuvuzi w'inka barimo kwita ku nka, bigaragara ko isa amabara agiye yatandukanye, harimo amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara, uwo muvuzi w'inka akaba yambaye akagofero mu mutwe ndetse akaba yambaye n'isarubeti y'ikaki.

Abaganga b'amatungo basa n'abari gupima inyamaswa z'imbere mu mubiri w'inyamaswa, iyo nyamaswa ikaba igaragara nkaho ari inka cyangwa se indi nyamaswa n'abarimo gupima impyiko zayo, imbere hari undi ufite impapuro mu ntoki wambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Iduka ricuruza inyama bigaragara ko barimo kugenda bazisuzuma ndetse banazikata inyama zo mu nda zigiye zitandukanye bigaragara ko hari abantu bagiye batandukanye barimo kugenda bazisuzuma babavuzi b'inka.

Abaganga b'amatungo barimo kwita ku nka, ku buryo bugezweho bwa kijyambere, ahagaragara inka nyinshi zifite amahembe maremare y'umweru, izo nka zikaba zisa ibihogo, ziri ahantu zubakiye, hari uruzitiro rw'ibyuma ndetse ku mpande hakaba hari umucaca.

Inka nziza kandi nini cyane inka y'ibihogo ifite amahembe manini cyane asa umweru, ikaba yambaye iherena mu gutwi kumwe ry'umuhondo, inyuma yayo hakaba hari abavuzi bazo bari kuyitaho bayitera urushinge ndetse hakaba hari n'abandi bari hepfo umwe urimo kubigisha uburyo batera inshinge.

Umuvuzi w'amatungo urimo kudoda inka ahantu yasadutse isa nk'iyakoze impanuka, hejuru yayo hakaba hari utumakasi dutatu ndetse umuvuzi w'amatungo akaba yambaye bote z'umukara ndetse n'imyenda y'akazi, akaba yambaye n'uturindantoki, impande hakaba hari abandi bantu batandukanye barimo kumufasha.

Inyamaswa y'inyagasozi igaragara nk'aho ari imparage, iyo nyamaswa ikaba ifite amabara ku maguru y'umweru ndetse n'ay'umukara, ikaba ifite andi mabara mu gatuza y'umutuku n'ay'umuhondo n'umweru mu maso.

Inyamaswa y'ingwe igaragara nkaho iri muri pariki yazo aho ziba, hakurya yayo hakaba hari ibyatsi bisa icyatsi ndetse n'igifite amabara y'icyatsi n'umuhondo, iyo nyamaswa ikaba igaragara nk'itinyitse cyane isa n'iyicaye.

Utunyamaswa dutoya tw'utwana tugaragara nk'ibyana by'intare, tugaragara ahantu h'ibyatsi bibisi cyane ndetse n'inyuma yabyo, dusa neza tw'amabara y'umukara, umweru ndetse n'ay'umuhondo.

Inyamaswa zitandukanye zisa n'iziri muri parike, aho hari impongo, intare, ingwe ndetse n'inzovu biri kugaragara mu isura ijya gusa igitaka ijya gusa umukara tsiriri.

Inyamaswa y'ingwe igaragara nkaho iri aho ziba, inyuma yayo hakaba hari isenyege bigaragara nkaho ziri, aho ziba kugira ngo zidatatana, igaragara ifite amaso asa umuhondo ndetse n'umukara. Yasohoye ururimi rusa umutuku.

Imbata iri mu mazi ayo mazi akaba ari amazi agaragara y'urubogogoya ajya gusa n'ikirere afata ishusho y'ikirere, iyo mbata ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara ndetse ikaba ifitemo n'igicucucu mu mazi.

Inyamaswa y'inyagasozi igaragara nk'umukara, irimo kwambukanya umugezi isimbuka kugira ngo itaba yagwa mu mazi, iyo nyamaswa ika ifite amabara atandukanye umuhondo, umweru, amaguru y'umukara ndetse n'amatwi asa umweru n'umukara.

Imbwa eshatu zisa n'izirimo kwiruka, zigaragara nk'inyagasozi zirimo kwiruka mu nzira, aho bigaragara ibicucu byazo, iy'imbere ni igitamu iyo hagati ikaba isa umukara n'inyuma ikaba ari igitamu.

Ikiyoni cya kasuku gifite umunwa w'umuhondo, gifite amabara y'umweru n'umukara. Icyiyoni kikaba gifite amaguru asa umuhondo kikaba gihagaze ahantu hatoshye cyane hari ibyatsi bisa icyatsi inyuma yacyo hasa icyatsi hasa n'ahari urutare imbere yacyo rurerure.

Inyamaswa z'inyagasozi zigaragara nk'iziri mu mapariki yazo, aho izo nyamaswa zikaba zigaragara ari inyamaswa zigiye zitandukanye harimo inzovu ndetse n'izindi nyamaswa nyinshi cyane ziri muri pariki yazo.

Inyamaswa y'imparage isa n'iri muri pariki. Inyuma yayo hakaba hasa n'aho harambitse neza hari n'ikibaya. Hakurya yaho hakaba hari igihuru gisa umuhondo ndetse kirimo n'andi mabara atandukanye y'umukara.

Imbata ebyiri ziri ahantu hatoshye izo mbata zikaba zifite mu maso hazo hasa umweru n'umukara, amaso yazo asa umukara, ahantu ziri hazaba hari umucaca utoshye neza usa icyatsi kibisi.

Inyamaswa ebyiri z'inyagasozi zigaragara nk'imvubu, zigaragara nk'aho imwe irimo kurya ibintu, indi ikaba nayo irebye hasi, zigaragara nk'aho ziri muri pariki yazo, aho ziba hakurutiriye kugira ngo zitaba zasohoka.

Inyamaswa z'inyayagasozi eshatu zisa n'izaturutse muri pariki, zikajya hanze ndetse zikaba zigaragara nk'aho zageze mu isantere, aho abaturage batuye wagira ngo ngo ni ingagi n'ibyana byayo.

Impara ziri muri pariki y'ibirunga, bigaragara ko zirimo kurisha. Zikaba zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, izo mpara zikaba ziri mu byatsi bigaragara nk'ibitoshye cyane ndetse n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye.

Inyamaswa y'inyagasozi ihagaze ku giti, icyo giti kikaba gisa n'igitambitse, iyo nyamaswa akaba ari inyamaswa yitwa ingwe. iyo ngwe hakurya yayo hakaba hari ikirere gisa ubururu ndetse bigaragara ko iri muri pariki aho ziba kuko harimo n'ibiti inyuma yayo.

Imbata eshatu ziri mu mazi ariko zikaba zifite amababa afite amabara agiye atandukanye, ayo mazi akaba ari urubogobogo, yafashe ibara ry'ikirere, asa umweru ariko umweru uvanzemo n'ubururu, izo mbata zikaba ari eshatu.

Inyamaswa y'inyagasozi, inyamaswa y'ingwe itinyitse cyane kandi y'amabara asa n'akanganye, iri ahantu ijyamye iritegereza imbere bisa n'aho iri muri pariki aho ziba, y'amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'umukara.

Ahantu hagaragara nko muri pariki y'ibirunga, ahagaragara inyamaswa z'impara z'amabara meza y'umweru ndetse n'umukara, ziri guca mu byatsi bisa umuhondo ku ruhande rwazo hari ibindi bisa icyatsi ndetse n'ibindi bisa umuhondo.

Inyamanswa z'inyagasozi zigaragara nk'aho ziri muri pariki, izo nyamaswa akaba ari impara ndetse zikaba zifite ibara rijya gusa ikijuju cyangwa se umuhondo, iyo pariki bikaba bigaragara ko ibyatsi byaho bisa n'ibiri kuraba bigaragara nk'aho hari izuba.

Inyoni ebyiri za gasuku zifite amababa asa umutuku, icyatsi, ubururu, ndetse n'umuhondo. Zikaba ziri ku ishami rimwe zirebana imwe ireba uruhande rumwe, indi ireba imbere noneho inyuma yaho hakaba hari ibiti bitoshye cyane.

lnyamaswa yo mu bwoko bw'ibiguruka igaragara nk'inyoni ,ifite amabara y'umweru ,ndetse n'umukara ,ifite umunwa w'umuhondo n'umukara, ikaba ihagaze ku gasima gasize irangi ry'icyatsi ,ndetse n'umukara wijimye. lnyuma yayo hakaba hari ubutaka busa umukara ,ndetse harimo n'utundi tubara tw'umweru.

Inyamaswa y'inyagasozi y'ingwe iyo nyamaswa y'ingwe ikaba ijyamye ku giti cyumye, iyo nyamaswa y'ingwe kandi ikaba ifite amabara y'umweru, umukara, ndetse n'ay'umuhondo mu maso n'ubwoya ku munwa by'umweru.

Inyamaswa nyinshi zitandukanye harimo impondo hakabamo n'imiparage, izo nyamaswa zikaba zigaragara nk'iziri ahantu ziba mu ma pariki agiye atandukanye, izo nyamaswa zikaba ziri ahantu mu byatsi bimwe bisa icyatsi ibindi bisa n'ibiri kuma biri kuba umuhondo.

Inzovu nyinshi zitandukanye zigera muri eshanu ziri mu muhanda harimo izikuze ndetse n'intoya, izo nzovu zikaba zirimo kugenda ahantu hagaragara nk'inzira y'abanyamaguru, ku mpande hari ibiti birebire ndetse n'ibihuru bisa naho ari muri parike yazo.

Umugabo uhetse igikapu inyuma ye hari agakende kari ahantu mu kigunda, ku ruhande hari igikuta icyo gikota kikaba cyubakishije amatafari ahiye, uwo mugabo akaba ahetse igikapu cy'umukara yambaye agapira gaciye amaboko.

Inyamanswa isa n'iri muri pariki y'ibirunga iyi nyamaswa ikaba ari ubwoko bw'imparage, iri ahantu hagaragara nko muri pariki aho ziba mu mashyamba.

lcyana cy'intare gihetse inkende ku mugongo wacyo, iruhande rwayo hari ingwe igaragara agace gatoya ,bigaragara nk'aho biri muri pariki yazo aho ziba, inyuma yazo hari igiti gisa umukara.

Imbata iri kugaragara nk'aho iri mu kiyaga, aho ubonako ari amazi atuje atarimo kugenda. Bigaragara ko ari mu kiyaga cyangwa se undi mugezi munini cyane. Iyo mbataba ifite amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umukara.

Ingwe yasamye y'amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, umukara ariko ukaba ari utudomodo, inyuma yaho hasa naho hari ibyatsi bisa icyatsi ndetse n'ibijya kweruka biba umuhondo, iyo ngwe ikaba ifite ubwoya ku munwa bw'umweru.

Inkedo y'akana yicaye yegamiye ku gikuta, ikaba yicaye ahantu hasi hari sima igaragara nk'iy'igiheri cyangwa se ahantu hanze hasa n'aharambuye.

Imbata ziri mu kiyaga zisa n'izirimo koga, zifite iminwa isa umweru. Izo mbata zikaba ari eshatu ziri mu mazi, aho zose zisa n'izirimo koga mu mazi. Ayo mazi akaba ari ikidendezi akaba afite urubogobogo asa umweru.

Ahantu hagaragara ibyatsi bitoshye, imbere hakaba harimo inzovu nini cyane iri kubitaka, aho hantu hakaba ari umuhanda w'ubutaka, hakurya hakaba hari izindi bigaragara ko ari mu mapariki cyangwa se ahandi hantu hatandukanye hororegwa inyamaswa z'agasozi.